Ahantu hari abantu benshi, barimo abadaso bambaye impuzankano y'icyatsi, ndetse n'abandi bagabo babiri bambaye imyenda y'umutuku. Hirya gato hari imodoka isa umweru iriho n'umusaraba w'umutuku.

Abaganga bambaye imyenda bapfukiranye umubiri wose y'umweru, bakaba bahetse amapombo mu mugongo bambaye na ga z'icyatsi, iruhande rwabo hakaba hari abandi nabo bambaye nk'amajiri y'umutuku, harimo umusaraba mu mugongo bari kuvura.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe harimo abambaye amajire y'umutuku arimo ibara ry'umweru mu mugongo ndetse n'umusaraba w'umutuku mo hagati, hirya yaho hari undi mugabo uri ahantu hari ameza ashasheho igitambaro cy'umuhondo.

Abantu benshi bambaye imyenda y'icyatsi n'iy'ubururu, iriho udusaraba, bafite icyapa gisa umweru, umutuku, cya USAID, cyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Abantu benshi bahuriye mu gikorwa cyo kubaka inzu igeze mu madirishya, hari abagabo bari hejuru bari kubaka b'abafundi, bose bahagaze ku gikwa, hari n'abandi bahagaze munsi yabo bari kubahereza hirya gato hari n'abandi bahagaze bameze nk'abayobozi.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bameze nk'abari mu mahugurwa cyangwa se amasomo runaka, harimo abagore ndetse n'abagabo, abicaye imbere bicaye iruhande rw'ameza ariho igitambaro cy'ubururu, amazi ndetse n'ikaramu.

Umusore wambaye imyenda ijya gusa umutuku, harimo n'umusaraba n'ipantaro y'umukara, akaba aryamye mu gitanda cyo kwa muganga. Imbere ye hari umuntu wambaye impuzankano y'abaganga.

Abagabo babiri bambaye impuzankano y'umweru irimo ibara ry'ubururu bashaka guterura umugabo usa nk'uwavunitse ngo bamushyire ku kantu kabugenewe kitwa burankari.

Umugabo wambaye impuzankano ya societe yi'itumanaho ya Airtel ufite ifone mu ntoki ari kumwe n'umugore ukenyeye igitenge n'gitambaro, uri guseka iruhande rwabo hari inzu ifite amadirishya.

Abagabo babiri bambaye amajire yumutuku ariho umusaraba bakaba bateruye undi mugabo wambaye umupira wumuhondo uriho nimero eshatu akaba ameze nk'uwavunitse.

Abagabo babiri bari guterura umugore mu ntebe wambaye umupira w'umweru bakaba bari guca mu nzira iri mu cyumba kirimo intebe nyinshi z'imbaho hasi hakaba hari sima, ku nkuta z'aho hakaba hateyeho irangi.

Imodoka y'imbangukiragutabara izwi nka ambulance ikaba iparitse inyuma yayo hari abaganga bari gucunga umuntu mu kagare bashaka kumwinjizamo, hirya yabo hari abantu benshi barimo n'abasirikare.

Umugore wambaye imyenda y'umweru ufite imisatsi y'umukara akaba yicaye ku ntebe areba kuri mudasobwa irimo kwaka ari kugenda akanda arebamo ibintu, iruhande rwe hari impapuro.

Umugore wambaye igitambaro k'igitenge n'impukazankano y'abaganga ndetse naga yicaye imbere y'umusore wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse akenyeye n'ikote, akaba ari kumutera urushinge.

Abagabo benshi bahagaze harimo abambaye amataburiya ndetse n'abandi bambaye imyenda isanzwe, bakaba bafite amasaretifika bahawe bahagaze imbere y'inyubako ndende ifite amabara anyuranye.

Abayobozi benshi bahuriye ahantu mu nama harimo abambaye baji n'abandi bicaye ku meza hateretseho mashini ndetse n'amacupa y'amazi bamwe bari kureba ku ruhande abandi bari kureba imbere hari n'urugi rufite imbaho.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, harimo abamama ndetse n'abagabo. Imbere hari umugore wambaye impuzankano n'umugabo uri iruhande rwe, wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Abantu benshi bicaye hari n'abandi bahagaze imbere yabo bambaye udupfukamunwa turi mu mabara atandukanye, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho ngo MIS/UR ikigishije inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru.

Umuganga wambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru akaba yegeranye n'umugore wambaye igitambaro cy'umukara, ikote rijya gusa umweru, akikiye umwana akaba ari kumubwira ikibazo ke ndetse muganga areba mu mashini.

Abantu babiri bagaragara ibiganza gusa, umwe ibiganza bye byambaye ga, bisa nk'aho ari umuganga, afite urushinge mu ntoki agiye gutera ku rutoki rw'undi muntu, bigaragara ko ari umurwayi.

Abantu babiri bambaye amatabuririya y'umweru ndetse na baji mu ijosi bakaba bicaye ku ntebe hamwe n'abandi babiri uw'umugabo ndetse n'uw'umugore barimo barasobanura ibintu bafite mu ntoki.

Abantu benshi bahuriye mu nzu mberabyombi, harimo abambaye impuzankano bicaye ku ntebe z'umutuku bakikijwe n'ameza, hakaba hari undi mugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro uri kubabwira.

Umugore wambaye ga ufite imisatsi y'umukara, wambaye n'ishati y'umweru ufite ikaramu y'umukara mu ntoki, iruhande rwe hari umugabo wambaye isaha waje kwivuza bigaragara ko ari kumufata ibizamini.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe hakaba hari abagabo batatu bahagaze imbere yabo, harimo babiri bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amabaji, iruhande rwabo hari umukecuru wicaye mu kagare.

Abantu benshi biganjemo abakuze cyane abasaza n'abakecuru bicaye ku rubaho ahantu muri salo, hari undi mugore uri ku ruhande wambaye itaburiya y'ubururu, umusatsi w'umukara, akaba ari kwinjira aturuka mu cyumba k'inzu.

Abantu benshi bambaye impuzankano y'umweru, amapantaro y'umukara ndetse n'inkweto, bamanitse amaboko bafite urupapuro rumwe mu ntoki, bameze nk'abari kurahira. Inyuma yabo hakaba hari inzu zatatswe neza.

Abaganga bari kureba ku rupapuro imbere yabo hari umudamu uri kumwe n'umwana, ku meza hari imiti myinshi ipfunduye ndetse hakaba hari n'iyindi ipfundikiye iteretse ku meza ariho na kompiyuta.

Icyumba giteye irangi ry'umuhondo kirimo n'udutubati tw'umweru hakaba hari ameza ateretse ho kopiyuta ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga bihujijwe n'imigozi igiye itandukanye.

Umuganga uri mu cyumba uri kumwe n'umurwayi akaba yicaye imbere y'ameza ariho ibikoresho byinshi byo kwa muganga birimo imiti, inshinge ndetse n'ibindi bikenerwa kugira ngo bavure umurwayi, uwo mugore bakaba bagiye kumutera urushinge.

Ahantu hari inzu igezweho itagaragara igisenge, iteye irangi ry'umuhondo ndetse hakaba hicaye abantu benshi batandukanye, hino yaho hari amapave n'umuntu w'umuhungu wambaye umupira wicaye ku mapave.

Abantu benshi bagiye banyuranye bahuriye ahantu hamwe barimo abagore ndetse n'abagabo, iruhande rwabo hari utwana tubiri turimo turakina hirya gato hakaba hari izindi nyubako zitagaragara neza.

Abantu batatu bicaye ahantu, babiri bagaragara nkaho ari abaganga, bari kwandika. Imbere yabo hicaye undi mugabo, umeze nkaho ari kwisuzumisha indwara.

Ameza ateretseho ibikoresho byo kwa muganga binyuranye, harimo agasarori bashyiramo imiti, agakombe bashyiramo ibyuma bitandukanye bakoresha kwa muganga, ibipfuko ndetse n'ibyo bahanaguza.

Intoki z'umuntu utagaragara neza, zambaye ga zifite icupa ririmo imiti iruhande rw'iryo cupa hakaba hari utundi ducupa twinshi turimo imiti, dupfundikije imifuniko y'ubururu.

Umugabo wambaye ga mu ntoki, utagaragara mu maso akaba afite urutoki rw'undi muntu nawe utagaragara, agiye kuruteraho urushinge. Hasi ku meza hari agapapuro barukuyemo ndetse karasa umweru.

Amakarito atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, akaba ateretse ku meza y'igiti. hirya gato hari irindi karito iriho n'udupapuro tw'umweru, inyuma hari ayandi makarito atagaragara neza.

Umuntu w'umuganga utagaragara mu maso, ugaragara intoki gusa, akaba afite urushinge ndetse n'agakombe agiye gushyiramo amaraso amaze gupima umurwayi kugira ngo amusuzume indwara.

Abagabo babiri bari kureba mu byuma byabugenewe bizwi nka microscopy, bambaye imyenda ibahisha umubiri wose, bari kureba muri ibyo byuma basuzuma indwara runaka, cyangwa se hari ubushakashatsi barimo barakora kugira ngo bagire ibyo bafindura.

Umugabo w'umuganga wambaye imyenda y'abaganga ga ndetse n'agapfukamunwa akaba ari mu bikoresho by'ikoranabuhanga byo kwa muganga bisa umukara, iruhande rwe hakaba hateretse imiti itandukanye ipfundikishije imipfundikizo y'umutuku.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, wambaye impuzankano y'umweru ndetse na ga mu ntoki afite n'urushinge ndetse n'agapipa karimo umuti ari gukurura umuti kugira ngo abone uko awutera umuntu.

Icyumba cy'inyubako kigezweho cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura cyane cyane mu kureba indwara zitagaragara ziri mu nda. Biteritse ku meza y'umweru, hirya hari amarido na yo y'umweru.

Umugore w'umuganga uri kwandikira ku meza afite ikaramu y'umukara ameze nk'umuganga biragaragara ko ari gusuzuma abarwayi baje kwisuzumisha indwara runaka, imbere ye hari ikaramu n'imiti ndetse n'ibipimo yabafashe.

Umugabo w'umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse na ga mu ntoki akaba afite agapipa karimo amaraso, hirya ye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi kandi hakaba hagaragara na rido z'ubururu.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yicaye ku ntebe y'urubaho iruhande rwe hakaba hari microscope akaba arebamo ari gusuzuma ibintu runaka.

Inzu nziza iteye irangi ry'umuhondo, hakaba harimo akabati gateretsemo ibikoresho by'amoko agiye anyuranye, hirya gato hakaba hari agapipa k'umukara gafite umupfundikizo w'ubururu.

Abantu bambaye impuzankano y'umweru hariho nimero zi zitandukanye, bambaye n'dupfukamunwa, bakaba bari kumwe n'undi mugabo wambaye nawe agapfukamunwa, n'ishati y'umweru ndetse akaba ari kugerageza kubasobanurira.

Abagore babiri bambaye impuzankano y'abajyanama b'ubuzima, harimo umwe uri guterura akana agapima, undi na we akaba arimo arandika mu gitabo. Iruhande rwabo hari igikombe k'imiti.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu wanditseho RBC akaba ahagaze imbere y'indangururamajwi ari kubwira abantu bamuteze amatwi, iruhande ye hari icyapa cya RBC.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RC, kivuga ko abantu bakwiye kwirinda indwara ya malariya, baryama mu nzitiramibu, ikoranye umuti.

Abantu benshi bambaye imipira y'icyatsi imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse n'amarinete y'umukara, akaba ari kubyinana n'undi mugabo wambaye umupira w'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'isaha, akaba yicaye hagati y'utwana twicaye ku mukeka, twambaye imyenda y'umuhondo, n'utundi twambaye imyenda isanzwe arikuduha igikoma.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru n'umuhondo, kirimo n'ikirangantego cy'igihugu cyanditseho amagambo, matimba korosi boda eyi isidi senta, urugo mbonezamirire y'abana bato.

Umugore ufite imisatsi yasukishijeje, wambaye amaherena n'umupira w'amaboko magufi atereye umwana wambaye imyenda y'umweru afite n'isahani mu ntoki y'umutuku ari kumugaburira ibiryo.

Umugore uteze igitambaro akaba afite n'ishuka mu ntoki, akaba ari iruhande rw'inzu ifite amabati ndetse hariho n'igishushanyo, inyuma ye hakaba hari igiti cy'amapera.

Abantu benshi bahuriye mu nzu iteye irange ry'umuhondo bambaye impuzankano y'icyatsi n'amapantaro hasi, umwe akaba afite mikoro yambaye na baje, akaba ari gukora ku meza ari gusobanurira abandi.

Abagore benshi ndetse n'abagabo bicaye mu buryo bw'uruziga bameze nk'abari kuganira ku bintu runaka, inyuma yaho hari ikibuga ndetse n'umuhanda ukikijwe n'inyubako zigiye zinyuranye ndetse n'imirima.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu n'umweru, bicaye hasi imbere y'amashuri. Hari icyapa kinini cy'umweru cyanditsemo amagambo y'icyatsi, hejuru handitse ngo RBC.

Icyapa kinini kiriho imitwe ibiri y'abantu n'amagambo yanditse mu mababara y'icyatsi yanditse ngo isuzumishe umenye urugero rw'umuhangayiko wawe unyuze ku rubuga rwacu.

Abantu benshi barimo rubyiruko bameze nk'abanyeshuri, bambaye imyenda y'icyatsi, bakaba bafite udutabo mu ntoki turiho amafoto y'abana, kandi buri wese aragafite.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, asize irangi ry'umutuku, hakaba hariho na kizimyamwoto, hejuru hakaba hariho irangi ry'umuhondo, ryanditsemo amagambo ngo Isange one stop center. kaba hari n'amadirishya ndetse arimo n'ibirahuri.

Umugore ufite imisatsi yumukara wicaye ku ntebe, yegereye ameza ariho impapuro nyinshi afite ikaramu mu ntoki ari kwandika, imbere ye hari umusaza wambaye ikote ufite imvi mu mutwe ndetse n'umukecuru uteze igitambaro.

Ibinini byinshi bigiye binyuranye biri mu mabara menshi agiye atandukanye harimo ibyumweru, iby'umutuku, iby'umuhondo byose bikaba birambitse hamwe bandikiye umurwayi.

Inyubako yubakishije amakaro y'umweru, hino hakaba hari umuhanda urimo amapave, imbere yayo hakaba harambitse ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Umuryango urakinguye, harimo abantu bari gucuruza.

Abagabo babiri bari mu iduka umwe yambaye umupira w'ubururu undi yambaye umwenda w'umweru bakaba hari ahantu hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye hejuru yabo hakaba handitseho herufu andi werifunesi.

Ibiganza by'umuntu utagaragara neza bikaba bifite imiti myinshi igiye itandukanye iri mu dushashi n'indi iri mu dupapuro hakaba harimo imwe ya kwariteme.

Amakarito atandukanye ndetse n'inshinge ziri hasi yayo, imwe muri izo hakaba hariho igishushanyo cy'inka, kiri mu ibara ry'umweru, hejuru yaho hakaba hariho ibara ry'ububururu ryandikishijemo amagambo y'umweru.

Amakarito agerekeranyije, ari mu mabara agiye atandukanye, yiganjemo umweru n'umuhondo, yanditsemo amagambo menshi agiye atandukanye nka korutamu, makumyabiri, ijana na makumyabiri.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umukara n'umweru. Hakurya ahanyura abagenzi aka guca umugabo ufite igare. Imbere ye hari undi wambaye ishati y'umukara n'ipantaro. Hirya hakaba hari inyubako yanditse ngo raki ikaze farumasi.

Udukombe tumeze nk'utuhure dupfundikije imipfundikizo ijya kubabo umuhondo, tukaba twanditseho amagambo y'umweru ndetse n'andi y'ubururu. Urebye twose duteretse hasi kuri sima.

Utubati dusize ibara ry'umweru tukaba turimo ibirahure hejuru, mo imbere harimo ibintu biri mu makarito bigiye bitandukanye, bigaragara yuko ari imiti y'amoko anyuranye.

Imodoka iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ikaba iparitse ahantu hari inyubako isa umweru, ikaba iri ahantu hari amapave iruhande rwayo hakaba hari umuntu uri gutambuka.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, harimo umwe uteruye umwana muri kigoma, akaba yejyeranye n'undi wambaye lacositi. Imbere yabo hakaba hari umuhungu n'umukobwa bari guseka bishimye, bameze nk'abari kureba ahantu imbere.

Abana benshi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe bafite icyapa kiri mu mabara y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu, yanditseho ngo ndi uw'agaciro ndashoboye.

Umugabo n'umugore bari imbere y'abandi bakaba begeranye n'umwana w'umukobwa wambaye akagofero, ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro y'umukara n'umweru, inyuma yabo hakaba hariho icyapa kinini cyanditseho ngo ugakoreshe neza.

Abantu benshi barimo abapolisi babiri, ndetse n'abandi bambaye ingofero zibapfutse mu maso ndetse n'udupfukamunwa, impuzankano y'ubururu ndetse na ga z'icyatsi, bafite ibikoresho bifashisha batera imiti.

Umugabo wambaye umupira wa rakosite y'umweru, akaba afite mikoro mu ntoki. Iruhande rwe hari icyapa cyanditseho ngo RBC, kiri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu. Imbere ye hari abantu bahicaye.

Abantu babiri bicaye ku ntebe umwe yambaye itaburiya ndetse n'amaherena n'amadarubindi n'imisatsi y'umukara ndetse na ga mu ntoki, akaba afite ikiganza cy'umusore wambaye ingofero ariko ugiye kumutera urushinge.

Amavaze menshi agiye atandukanye, abumbye mu buryo butandukanye afite imitako ku mpande zayo. Imwe irimo akantu kameze nk'umwuko ndetse hakaba hari n'ibintu by'imiti binyuranye birambitse imbere yaho ndetse no mu mavaze.

Abagore bicaye imbere y'igicaniro cy'umuriro kiri ku rujyo, umwe yambaye ingofero y'umutuku yiteye n'igitenge, abandi na bo bakikije umuriro bambaye ibintu bigiye bitandukanye.

Ururabo rw'icyatsi rufiteho indabo z'umweru hejuru rukaba ruteye mu gipangu cyubakishije amatafari ahiye, inyuma y'icyo gipangu hakaba hagaragara igiti k'inganzamarumbu.

Umuntu w'umugabo utagaragara igice cyo hejuru, wambaye igitenge cyangwa se igitambaro cy'umweru, akaba afite akantu kameze nk'agakono ndetse n'agasekuru karimo imiti igiye inyuranye ari kuvangavanga.

Abagore batatu b'abaganga, babiri bambaye amarinete, umwe afite imisatsi y'imvi ndetse na baji ku ijosi, iruhande rwe yegeranye n'undi uri guseka bose bari kwifotoza, inyuma yabo hari amadirishya y'umweru.

Ururabo r'icyatsi rufite indabo zijya kuba umutuku, rukaba rweze cyane kandi rugaragara nk'urutoshye. Ruteye ahantu heza hashobora gutuma ibimera bimera neza kandi bigakura neza ntakibazo bigize.

Umuntu utagaragara neza mu maso, ufite ibiganza binini akaba afashe agasekururo ndetse n'umuhini arimo arasekura imiti itandukanye, kandi akaba iyo miti isa icyatsi.

Abantu benshi barimo abasirikare ndetse n'abaganga bicaye abandi bahagaze bari kwifotoza bakaba bahagaze imbere y'inyubako y'ibitaro bya Gatunda hosipito iri mu mabara y'umuhondo ndetse ifite n'ibirahure by'umukara.

Umuntu utagaragara neza mu maso ufite amaboko ndetse n'ukuguru byarwaye indwara y'ibiheri, ku kaguru hariho ibiheri byinshi bigiye bitandukanye ndetse no ku kaboko hariho ibindi.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, akaba ari gutera urushinge umugore wambaye ikanzu, iruhande rwe ku meza hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura ndetse n'akabati.

Amakarito agerekeranyije asa umweru ndetse akaba afite n'andi mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, akaba agiye yanditseho amagambo anyuranye agaragara cyane akaba yitwa ngo Moxyline.

Inyubako nziza igezweho, yubakishijwe amabati ndetse ikaba isize irangi ry'ubururu n'umuhondo. Imbere yaho hari kandagira ukarabe ndetse n'umugore uhagaze mu muryango.

Amakarito menshi apanze ahantu hamwe akaba ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, ayo makarito yose akaba yanditseho ijambo iva ryanditse mu ibara ry'ubururu.

Abagore batatu harimo babiri bafite abana, undi yambaye igitambaro cy'umweru n'umupira w'umutuku, bakaba bari imbere y'inzu yanditseho ngo mituweli. Mu idirishya harakinguye bari gutangiramo serivisi.

Akantu gafungiyemo ibintu imbere kameze nk'agafuka gasa ubururu, umweru ndetse kakaba kandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru hakaba hariho n'igishushanyo cy'inkoko.

Agakarito kariho amatungo agiye atandukanye ihene, intama ndetse n'inka, iyo karito ikaba iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, hakaba handitseho extracycline kandi ikaba bigaragara yuko ari mililitiro ijana.

Inyubako nziza isakaje amabati, isize irangi ry'ubururu, ikaba ifite umuryango ku ruhande. Hirya gato hariho icyapa cy'abantu bane umugore n'umugabo ndetse n'abana babiri, handitseho ngo girubuzima.

Inyubako iri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, isakajwe amabati asa ubururu, iruhande rwayo hakaba hari ikigega cy'umukara, hino yaho hakaba hari abana bicaye bareba kuri iyo nyubako.